Imiti yica udukoko two mu myaka, ifite ubwoko butandukanye, icupa rifite umupfundikizo w'umutuku bigaragara ko ariryo kugurisha, ngo barijyane kuritera mu myaka.

Umugabo uhetse ipombo yambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse n'agapfukamunwa, ari gutera umuti mu myaka ye.

Umugabo wambaye igisarubete cy'ubururu ari gutera umuti mu nyanya , inyanya zidateye umuti ntabwo zera kuko zigira ibyonnyi byinshi.

Amacupa asa n'aho arimo imiti. Ameze nk'aho ari kugurishwa. Ateretse hamwe kugira ngo abantu bayabone baze kugura imiti.

Icyapa cy'umuhondo gishushanyijeho inyanya, kigaragaza ko kirimo umuti wazo. Iyo inyanya bataziteye umuti zirapfa, umuhinzi akabura icyo asarura.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, n'umupira w'umutuku, ahagaze impande y'ikirundo cy'ifumbire mborera, asa n'aho ari kubireba.

Imvaruganda iyi bita ire ishitura imyaka igakura vuba, aho umuntu ari kuyiyora ngo ayishyire ku myaka ye.

Imiti itandukanye iri mu macupa. Imiti ni yo yicaga ubukoko bwo mu myaka. Amacupa arimo imiti atondekanye ari ubwoko bwinshi butandukanye.

Imifuka yuzuyemo imvaruganda iteretse hasi iri amoko menshi, hariho imvaruganda yitwa Ire, n'iyindi yitwa Dapu na Enipeka. Iyo wazifumbije imyaka yera neza.

Imyaka yose idatewe umuti irarumba. Umugabo uri gutera umuti mu myaka ye, azagira umusaruro mwiza.

Ni umurima w'inyanya zitari zera, umuntu ari kuziteramo umuti. Inyanya iyo zidateyemo umuti zirapfa.

Umuntu uhagaze mu myaka ye ihinganye ubwenge kumurongo, arikuyitera umuti yambaye ipompo, yambaye itaburiya y'umuhondo, n'ipantaro y'umuhondo

Ubuhinzi bumaze gutera imbere aho basigaye bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kuvomerera imyaka bakoresheje imashini, imashini ni nziza cyane.

Umuntu afashe ingemwe z'igiti , kuko igiti n'ingirakamaro gitanga imvura , kigatanga n'umwuka abantu duhumeka.

Kugirango ibihingwa byere neza abantu babiri bari gusuka imvaruganda kugirango bashyire kumyaka bambaye imipira y'icatsi.

Amacupa atatu arimo imiti yo gutera mu myaka. Imyaka yose isigaye iraterwamo imiti yo kwica udukoko, kugira ngo yere neza.

Abagabo babiri bari gushyira imvaruganda ku bigori byabo. Ibigori iyo bigiyeho imvaruganda bitanga umusaruro ushimishije.

Mu buhinzi bakoresha imvaruganda, kugira ngo imyaka ikure neza. Umufuka wuzuyemo imvaruganda ya ire, uhagaze wuzuye, kugira ngo baze kuwugura.

Ipombo ni igikoresho cyiza cyane, kifashishwa mu gutera imiti mu myaka, gifite ibara ry'icyatsi, n'umufuniko w'ubururu.

Imifuka itondetse hamwe iri mu mabara y'umuhondo , isa naho ipakiyemo ibintu bitandukanye , nk'imiceri cyangwa se ingano n'ibindi bitandukanye.

Ururabo rwiza cyane, rufite amabara atandukanye y'umuhondo, y'iroza n'ubururu. Impande yarwo hariho icupa, ririmo umuti wo gukaraba mu ntoki bakoreshaga mugihe cya covide.

Umuntu wambaye itaburiya y'umutuku, ariko kuvanga umuti uri mu icupa, usa naho ari uwo gutera mu myaka, kugira ngo ubukoko butayonona.

Ifi ni nziza cyane igira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu. Ifi iyo ikawushije iraryoha cyane, abantu barayikunda.

Isambaza ni ubwoko bw'amafi matoya, akunda kuba mu kiyaga. Araryoha agira vitamini nziza cyane. Cyane cyane zikunze kurera abana.

Amafi ni meza cyane agira intungamubiri nyinshi. Baragakunda kuko agira amafaranga menshi ku isoko.

amafi atatu ari ku isaniya avuye mu mazi kuko atarababurwa cyangwa ngo bayakarire, nta nubwo bari bayanika ngo yumuke aracyatose.

Amafi ni meza cyane. Ni ikiribwa gituruka mu ruzi cyangwa mu biyaga cyangwa mu byuzi. Ifite intungamubiri nyinshi kurusha inyama.

Amabase abiri asa n'umutuku, n'ubururu, yuzuyemo isambaza, bavuye kuzirohora mu kiyaga.

Abarobyi bamaze kuroba amafi . Amafi ni ikiribwa kikunzwe cyane n'abatari bakeya.

Amafi arunze hamwe, asa n'aho bayarohoye mu ruzi cyangwa mu kiyaga, amanza yumuka, bakabona ubuyakarira, bakayakawusha mu mavuta.

Iyi fi ni nziza cyane, abantu benshi barayikunda, nanjye iyi fi ndayikunda, iraryoha cyane.

Isambaza zivuye mu cyuzi cyangwa mu kiyaga zikiri mu gatimba bazivanamo bakazanika kugira ngo zumuke babone uko bazikarira cyangwa bakazikawusha mu mavuta

Inzu yubatse hejuru y'icyuzi kiririmo amafi, bigaragara ko ariyo kororeramo inkwavu , amahurunguru yazo akagwa mu cyuzi, akagaburira amafi.

Amafi avuye mu mazi, bayashyira ku izuba bakimara kuyarohura, bakayakawusha. Amaze kumuka bakabona kuyarya, amafi araryoha.

Isambaza ziraryoha cyane, iyo bazivanye mu mazi bazikuye mu kiyaga cyangwa mu cyuzi barazanika kugira ngo zumuke babone uko bazikarira cyangwa se bakazikawusha mu mavuta.

Inyama z'ifi ni nziza cyane harambitseho ibisate bibiri by'ifi, impande yazo harambitseho ibisate bibiri by'indimu. Iyo umuntu ariye inyama akagerekaho n'imbuto abariye neza cyane.

Amafi ni meza cyane, akunda kororerwa mu byuzi, ayandi akava mu biyaga. Amafi araryoha cyane, agira intungamubiri nyinshi cyane.

Amafi asa n'aho akaririye, yatetswe mu mavuta ni meza cyane. Amafi araryoha nanjye ndayakunda, kuko agira intungamubiri nyinshi.

Isamake nziza ivuye mu cyuzi, imeze nkaho ikiri mbisi. Ntabwo ikariye babanje bayanika kugira ngo yumuke.

Iyo ifi ikarangishije inyanya, iraryoha cyane. Inyanya ni ikiribwa kiryoshya ibiryo cyane, abantu benshi barazikunda.

Ifi ibabuye isa n'aho ikaranze mu mavuta , Ifi ifite intungamubiri nyinshi kandi iraryoha.

Ifi ziraryoha cyane, kuko zigira vitaminini nyinshi cyane. Iyi fi iri ku isiniya iriho ibirungo byinshi cyane, nk'inyanya n'ibindi birungo bitandukanye.

Amafi menshi ari ku isaniya asa naho ababuye, amwe aciyemo kabiri, ayandi nta bwo aciyemo kabiri, asa naho ababuye.

Amafi abiri, ari ahantu nko ku meza , arakariye cyangwa bayakawushije mu mavuta, amafi araryoha akunzwe n'abantu batari bakeya.

Amafi menshi ari mu gatimba, asa n'aho bayarohoye mu mazi. Amafi kugira ngo aboneke, abarobyi barohamo ubutimba, maze bakayarohora.

Ibyuzi by'amafi biri ahantu impande y'agashyamba k'ibiti byinshi bikikije ibyo byuzi.

Amafi menshi arunze hamwe, amafi ni meza cyane agira intungamubiri nyinshi kuko abantu benshi barayakunda kubera ko aryoha.

Umurima uteyemo ibirayi bigiye kwera, impande ya byo hariho n'ibiti byiza cyane.

Umurima w'ibirayi bigiye kwera, bigaragara ko bitangiye kuyanga. Ibirayi ni byiza cyane, biraryoha kandi byera vuba bimara amezi atatu.

Umurima uhinze neza, uhinze agatabire kayunguruye, inyuma y'ako gatabire hariho agashyamba, karimo igiti kinini gihagaze neza.

Igiti gifite akamaro kenshi. Aho igiti kivamo imiti, cyangwa se bakagisatura kikavamo imbaho, cyangwa se inkwi.

Inzu isakaje amabati y'umutuku. Ifite irangi ry'umweru, imbere yayo hariho ibiti n'inyuma yayo hariho ibindi biti.

Ibigori iyo byeze barabisarura, hagasigara ibikenyeri bita ibigorigori, iyo ibikenyeri babirundarunze hamwe, bivamo iyindi fumbire yo guhingisha indi myaka.

Ibti ni byiza cyane, abantu bakunda kubitera, kuko bigira akamaro kanini. Bituzanira imvura, bikanavamo ibikoresho byinshi bitandukanye, nk'inzugi n'ibindi.

Amasaka cyangwa ibigori, iyo byeze barabisarura ibikenyeri byabyo bigasigara mu murima, nyuma y'aho bakabitema bakabitwika cyangwa bakabiwugutisha bikavamo ifumbire.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, igasakazwa amabati y'umweru, imbere yayo hariho ishyamba ry'ibiti byinshi bito, ariko bitoya bitari binini.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye. Imbere yayo hariho ururabo rwiza cyane rumeze nk'aho ari inanasi. Rufite ibibabi birebire bigiye kumera nk'aho ari insina.

Umurima w'ibigori bihinze bisa n'aho bigiye kwera, ibigori ni byiza, biraryoha, abantu barabikunda cyane.

Umurima uvuyemo igihingwa cy'amasaka, ibikenyeri bisigaye bazabitema babitwike cyangwa babirunde bivemo ifumbire yongere guhingishwa indi myaka.

Umurima uteyemo ibirayi bisa naho biri kuyanga , ibirayi nibyiza cyane byera vuba byerera amezi make cyane, ntabwo birenza amezi atatu.

Ubuhinzi bw'ibirayi buteje imbere abantu batari bakeya. Ibirayi bisa n'aho bigiye kwera, bifite uruyange byerera amezi makeya.

Ubuhinzi bw'ibigori bukunzwe n'abantu benshi, hamwe n'ubw'ibirayi na bwo butunze abantu batari bakeya. biraryoha kandi bizana amafaranga menshi.

Igiti cy'inkarisha . Inkarishya zivura indwara . Inkarishya ni mu bwoko bw'intoryi zisharira cyane ,kandi tuba ari dutoya.

Uruzitiro ruzitije ibiti rukikije umurima w'urutoki, hariho n'ibiti by'isombe.

Ibigori bamaze gusarura, barabijyana kubihunika, hagasigara ibikenyeri. Ibikenyeri bivukamo ifumbire, n'ubundi bakarihingisha indi myaka ikurikiyeho.

Umurima ugaragara ko gluhinzemo karoti. Karoti ni ikiribwa cyiza bihindura ibiryo neza bigasa n'umuhondo.

Umurima urimo ibigori bigiye kwera. Ibigori ni byiza cyane. Iyo ibigori byeze barabisarura, bakabigurisha cyangwa bakabyotsa.

Ibyatsi bisa n'aho biri mu gishanga. Abantu benshi barabikunda bakunda kubigaburira amatungo yabo, kuko ibyo mu misozi bikunda kuma.

Ibiti ni byiza cyane, bitanga umwuka duhumeka, kandi bikabyara imvura ikagwira igihe, abantu tugahinga imyaka ikarumbuka.

Ibigorigori biboneka iyo ibigori byeze bakabisarura. Ibigorigori kandi iyo babisaruye babikoramo ubwatsi bw'amatungo.

Ubworozi bw'intama bukwirakwiye mu baturage benshi. Intama ziragiwe mu kinani, impande ya zo hari inzu isakajwe amabati.

Umurima munini basaruyemo imyaka, bategereje guhingamo indi myaka, kugira ngo biteze imbere mu gihe kiri imbere.

Inzu iteye karabasasa igiye gutukura. Ifite amadirishya akinze. Impande yayo hariho amateke bitaga bungubungu. Bungubungu araryoha cyane.

Akayira kanyuze iruhande rw'urutoki, urutoki n'igihingwa gikunze guhingwa n'abantu benshi, urutoki rugira akamaro kenshi, rubyara inzoga, rukabyara amafaranga, ndetse n'ibitoki biribwa.

Ubuhinzi bw'ibirayi buteye imbere mu gihugu , ibirayi byuzuye mu mifuka bitondekanye , bitegereje abapakizi babyo ngo babijyane ku masoko.

Ibihaza by'umukara byiza cyane biraryoha. Abantu barabikunda habaho ibihaza by'amabara n'iby'umukara, hakabaho n'iby'imyeru, iby'imiremba n'iby'ibihundi.

Abantu benshi basa naho bari ku muganda cyangwa bari mu ishirahamwe, abantu ni abagore n'abagabo.

Umurima urimo inkeri zigiye kwera, hatangiye kuzamo izitangiye gutukura, umugore ahagazemo ari gusoroma inkeri. Kandi afite ibyishimo byinshi.

Abantu bambaye imyenda isa, imwe y'umukara , iyindi yimyeru , bambaye n'utugofero tw'ubururu , bari kwitegereza imyaka ukuntu ari myiza.

Umurima w'icyayi cyiza cyane , umugabo ukenyeye agasero ari gusoroma icyayi n'abandi bari ruguru ye bari gusoroma , icyayi kiraryoha abantu benshi baragikunda.

Ipera n'imbuto ikunzwe cyane iraryoha, abana barayikunda iyo yeze iba isa n'umuhondo , mu nda isa n'umutuku.

Abagabo babiri bafite amagare apakiyeho imbuto zitwa inanasi , inanasi ni nziza cyane zigira mutobe uryoshye, inanasi barazikunda cyane ziraryoha.

Umugabo wambaye agapira karimo imirongo y'umukara n'umweru n'ikoti ry'umukara n'ingofero y'umutuku n'ipantaro y'umutuku. Ahagaze mu gashyamba ari kumwe nundi mugabo wambaye agashati k'ubururu.

Inka nziza z'umukara zisa naho ziri kurisha. Inka zigira amabara atandukanye, haba izisa n'umukara izindi zigasa n'ibihogo, izindi zikagira amabara y'umwe n'umukara bita kibamba.

Avoka zisa n'umuhondo mu nda ziraryoha cyane, iyo uyisatuye ugasanga isa n'umuhondo uhita umenya ko iryoshye.

Umukobwa wambaye ishati y'umutuku n'igitambaro mu mutwe cy'ubururu, asa n'aho yishimye cyane afashe umusaruro mu ntoki.

Abantu benshi bari mu gihingwa cy'umuceri. Umuceri bawuhinga mu gishanga, kuko ukunda ahantu haba amazi, na ho mu misozi ntabwo wahingwamo, ntabwo wakwera.

Umurima ni uhinzemo insenda, aho umugabo yicaye mu murima w'insenda, asa n'aho ari kurusoroma.

Imyumbati ni igihingwa bakunda kuko kivamo ifu yo gukoramo umutsima, cyangwa bakayiteka ari ibijumba.

Igito ki baciye gisa n'aho cyashenjaguritse, inseri ebyiri ziri ku ruhande zahagutse. Igitoki ni cyiza cyane kiraryoha, abantu benshi baragikunda.

Abantu benshi batunzwe n'umwuga w'ubuhinzi aho abantu bari guhingisha amasuka mashya, bakaba bari guhinga basa naho aho bari mu ishihamwe.

Voka ni imbuto nziza cyane, ivoka igira vitaminini, iyo uyiriye ku biryo uba uriye indyo yuzuye. Voka isatuyemo ibisate bibiri, isa n'aho iryoshye.

Ubworozi bw'inkoko. Inkoko zikunze gutanga umusaruro zikagira n'inyungu nyinshi. Inkoko zitera amagi, amagi zikayararira cyangwa se amagi abantu bakayarya.

Ubunyebwa ni bwiza cyane buraryoha abantu barabukunda, bugira vitaminini nyinshi, kandi babukamuramo amavuta y'ayandi bita ubuto.

Amasaka ni meza cyane, yuzuye mu mufuka asa n'aho bagiye kuyagurisha. Amasaka agira amafaranga, kuko abantu benshi barayakunda.

Urusenda rw'umutuku rwa kera rwitwa kamuri, rukaba rwarasimbuwe n'urundi rusa n'umuhondo bakamuramo imishongi.

Ubwoko bw’ibijumba bita amafuruka. Mu nda yabyo hasa n’umuhondo. Barabikunda bigira vitamini kandi babikoramo n’imigati.

Umugabo wishimye ari guseka, ateruye ibase yuzuyemo intoryi. Yishimiye umusaruro we kuko urashimishije, yambaye ishati y'umweru, iriho umuderi mu ijosi w'umutuku.

Ibigori iyo byeze barabyanika, umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'igitaka , ari kwanika ibigori hasi kugirango bimere neza.

Uburyo bwiza bwo kwanika imyaka, ingano zisaruwe zanitswe ku ihema, kugira ngo zitagira agahumbu. Ni yo mpamvu kwanika imyaka ari byiza cyane.

Amashu ni ubwoko bw'imboga. Barayakunda kuko araryoha. Iyo yeze, barayasarura bakayarya, ayandi bakayajyana mu masoko bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Voka nziza ziryoshye zisa n'umuhondo mu nda. Voka isatuye igasa n'umuhondo mu nda, ziba ziryoshye cyane. Voka ziraryoha abantu barazikunda.

Abagore bari gusarura ingano bambaye imyenda y'ibitenge n'imipira. Umwe yambaye umupira w'umutuku n'igitambaro cy'umuhondo.

Amashu ni meza barayakunda. iyo yeze arabumba akamera nk'igihaza. Iyo yeze barayaca bakayateka. Ari mu bwoko bw'imboga zisanzwe.

Iyo ibirayi byeze babikurira rimwe bakabihunika mu bigega. Ibirayi bisutse hamwe ari byinshi bisa nk'aho byeze cyane, byatanze umusaruro ufatika.

Abakobwa babiri bambaye imyenda zitandukanye, umwe yambaye ishati y'ubururu, undi yambaye ikanzu igiye gusa n'icyatsi, basa n'aho bari gusarura.

Abagabo batatu n'abagore batatu bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye imyenda y'imihondo, iy'ubururu n'iy'umutuku, bahagaze hamwe, basa naho bari kuganira bitonze umurongo.

Ibishyimbo by'amabara atandukanye, bimwe by'umutuku, ibindi by'ubururu harimo n'ibindi by'umweru.

Habaho ibitunguru bimwe bisa n'umweruru, ibindi bisa n'umutuku. Ibitunguru ni byiza cyane, abantu bose barabikunda kubirya.

Imbuto zitwa imyembe, iraryoha cyane imyembe ni imbuto zigira ikibuto kinini, barya akantu k'inyuma gusa.

Avoka ni imbuto ikunzwe n'abantu benshi, kuko zigwiriye ku isoko. Zigira amafaranga menshi, kandi zikagira n'intungamubiri nyinshi.

Umugore wunamye witeze igitambaro akenyeye igitenge, ameze nkaho ari kubagara imyaka. Umugore arishimye cyane.

Umugore uri mu myaka ye, ari kuyitunganya kugira ngo yere neza, izamuhe umusaruro ushimishije.

Abantu benshi bari mu nama bari kwiga ukuntu bahinga imyumbati, kuko imyumbati ari igihingwa cyiza cyane kizana amafaranga.

Ibirayi ni ibihingwa bikunzwe na benshi. Ibirayi iyo ubiriye, ugira apeti yo kurya.

Umugabo uri mu myaka ye, yambaye ishati y'umweru, n'ingofero irebye inyuma y'umukara, ari kuyireba ko imeze neza kuko yishimye.

Abantu babiri , umwe wambaye igisurubeti cy'ubururu n'ingofero y'ubururu n'undi usutamye wambaye iby'umukara, bari kwita ku myaka yabo kugira ngo izere neza.

Voka ni nziza zigira intungamubiri nyinshi abantu barazikunda, voka isatuye isa naho iryoshye isa n'umuhondo mu nda bigaragarako iryoshye cyane.

Umuhinzi ufite amabase atatu, harimo imwe y'umutuku izindi ebyiri z'ubururu, afashe n'isuka, asa naho avuye guhinga, yambaye imyenda y'umukara.

Amapapayi ahiye andi adahiye, ahiye abasa n' umuhondo adahiye asa n' icyatsi. Araryoha cyane abantu barayakunda cyane.

Umurima w'ibirayi bigeze igihe cyo kubagarirwa. Abantu bahagaze mu murima, bagiye kubibagara, impande y'aho hariho inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umugabo uhetse ipombo ifite ibara ry'umuhondo, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira ufite ingofero ugiye kuba iroza, ari gutera umuti mu myaka.

Amashaza ni igihingwa cyiza cyane. Amashaza akunze guhingwa mu misozi miremire nko muri Burera. Amashaza araryoha cyane.

Umugore ufashe inanasi mu ntoki, ari guseka. Impande ye hagaze n'umugabo wambaye ishati y'umweru. Uyu mugore yiteze n'ingofero y'umutuku.

Inkeri zikunze kuba mu ishyamba, zera ahantu hakeya kuko hari ababigize umwuga wo kuzihinga. Zikunzwe n'abana n'abantu benshi, barazikunda kuzigura ngo bazirye.

Umugore wishimye, yambaye imyenda itandukanye, harimo umupira w'amaboko maremare, no munda harimo agapira k'umweru, yiteze n'igitambaro. Ahagaze mu busitani bw'imbuto ze.

Umugore wicayeye impande y'imyaka, zimwe zimeze nk'ibishyimbo, hepfo ye hakaba harunze ibirayi, yambaye agapira k'umuhondo, yifashe neza, asa n'aho ari kubireba uko bingana.

Abahinzi bari mu gikorwa cyo gufumbira imyaka yabo, umugore afashe agafuka karimo imvaruganda, n'umugabo wunamye afite igemeri irimo imvaruganda yitwa ire, hariho n'umugabo wambaye ibya gisirikare.

Igiti cy'ipapayi, kirimo amapayi yeze n'atari yera ni meza k'umubiri w'umuntu, avura indwara nyinshi ziba mu mubiri.

Ibigori bitari byera bisa naho babihinze ahantu abaturage bahujije ubutaka aho bakunda kwita site. Ibigori ni byiza cyane barabikunda kuko birabyoha.

Inyanya ni ikiribwa gikunzwe cyane, kuko abantu batari bakeya bakunze kuzikoresha, mu biryo ibyo aribyo byose. Ntibagomba guteka ibiryo hatarimo inyanya, kuko ziraryoha cyane.

Ibigori barabikunda, biraryoha, abantu benshi bakunda kubyotsa no kubiteka ibikiri bibisi, iyo bimaze kuma bivamo ibikoma n'imitsima y'agahunga.

Ubucuruzi bw'imyaka itandukanye bukijije abantu benshi. Imifuka igerekeranyije imwe y'umuhondo, indi y'icyatsi bisa naho harimo umuceri.

Uburyo bwo kwanika ibigori. Barabitonora, bakabipfundikamo amasa, bakabyanika bakabimanika ahantu, kugira ngo bidahura n'ubukonje, bikangirika.

Amateke ni meza cyane, bayita inyemerabaswa, hariho n'ayandi bita inahabuzwa, hariho n'ayandi bita bwayisi.

Igihingwa cy'imyumbati gikwirakwiye mu gihugu hose. Imyumbati ni myiza cyane barayikunda, ivamo ifu bagakoramo imitsima, iyindi bakayiteka ku bishyimbo.

Ibirayi ni byiza cyane, iyo ubiriye ugira apeti nyinshi kuko biryoha. Abantu bose barabikunda, kuko biryoha cyane .

Imifuka myinshi yuzuyemo ibirayi bisa naho babipakiza imodoka, biri mu mifuka byuzuye neza, bisa naho biri ku muhanda.

Umugabo wambaye ingofero y'umuhondo n'isarubeti y'umweru , asa naho iyi ngofero ar'iyabafundi.

Ibigori ni byiza cyane. Abantu barabikunda kuko biraryoha cyane bivamo, igikoma n' umutsima ndetse bakabikoramo n' akawunga, habaniyo babyinitse bakabinywamo umusururu.

Ubuhinzi buteje imbere abantu benshi abagore bari kubagara imyaka yabo, bunamye bose basa naho bishimye cyane kubera ko imyaka yabo ari myiza.

Umugore wunamye ari kubagarira imbuto z'ibirayi, bisa n'aho biri kuyanga, yambaye ijakete y'umutuku ifite ukuboko kumwe n'igitambaro cy'ubururu mu mutwe.

Igihingwa cy'indimu ni imbuto nziza cyane zigiye kumera nk'amaronji. Zivura inkorora, abantu benshi barazikunda kuko bakunze kuzifashisha cyane cyane abarwayi.

Abantu bakunda guhinga ibijumba. Ibijumba biri amoko menshi, hariho ibisa n'umutuku, ibindi bigasa n'umweruru. Ibijumba bikunze gutunga abantu batari bakeya.

Umugore ukenyeye igitenge n'agapira k'umweru, karimo uturongo. Asa n'aho afite isuka agiye guhinga. Impande ye hariho umuhanda urimo kaburimbo.

Indimu barazikunda cyane kuko ziraryoha kandi zikavura. Zigira umutobe uvura abantu. Mu nda yazo hasa n'umuhondo, iyo zihiye inyuma na ho hasa n'umuhondo.

Umugore uhagaze ari kumwe n'umwana we. Bambaye imyenda igiye kuba umutuku uvanzemo n'umuhondo. Umugore ahagaze ahantu hari ibyatsi bisa n'umuhondo bivanzemo icyatsi.

Ubucuruzi bw'imbuto nyinshi zitandukanye harimo pwavuro, karoti, intoryi n'inyanya n'ibindi byinshi.

Abagore batatu bari guhinga, umwe yambaye igitenge n'ishati y'ubururu n'ikora ry'umweru, undi yambaye ishati y'umweru n'igitambaro mu mutwe cy'umuhondo.

Imbuto ni nziza cyane, zirimo wotameloni ikasemo ibice bine, amapera, avoka, n'amaronji, biraryoha cyane zigira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bw'urutoki butejeje imbere abantu benshi. Aho basigaye bahinga insina zitwa fiya, zikera igitoki kinini cyane, kiribwamo imineke cyangwa kigakamwamo imitobe.

Amaronji ni meza cyane kuko amaronji akunzwe n'abantu batari bakeya, aho ironje rimwe risigaye riragura amafaranga ijana. Irongi iyo rihiye risa n'umuhondo.

Abagore babiri n'umugabo umwe, bicaye mu gihingwa cy'inanasi. Bambaye udupfukamunwa, bambaye n'imyenda imwe y'imituku, iyindi y'icyatsi, bari gusarura inanasi.

Avoka ni imbuto zikunzwe n'abantu benshi. Avoka zigira vitamini zitunga umubiri.

Amashu ni meza cyane, ari mu bwoko bw'iboga ziryoha, abantu batatu bafashe amashu, abagore babiri n'umugabo umwe.

Ibishyimbo bifite amoko menshi, ibiri ku nkoko bisa n'umutuku, hariho n'ibindi bisa n'imyeru, ibindi bigasa n'imikara. Hariho n'ibindi bigira amabara.

Amashu ni ubwoko bw'imboga buteye ku murongo, amwe agaragara ko yeze. Amashu ni meza cyane barayakunda.

Ubuhinzi bw'icyayi bukunzwe n'abenshi , ku murima urimo icyayi cyeze , umugabo urimo ahetse agasero ari gusoromeramo icyayi , wambaye ishati y'igitenge cy'amabara.

Isoko ry'ibitoki byinshi bimeze nk'aho ari incakara, ibitoki ni byiza cyane, abantu benshi barabikunda, kuko biraryoha, nanjye ubwanjye ndabikunda.

Amatunda ni meza cyane. Iyo yeze, aba asa n’umutuku. Iyo atari yera, aba asa n’icyatsi.

Umugore wicaye mu murima w'inyanya ,yambaye ibitenge by'ubururu bifite amabara .Yiteze nigitambaro mu mutwe.

Abantu bicaye, basa n'aho bari kurobanura imyaka. Iyo imyaka yeze, barobanuramo ibizima.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda y'amabara atandukanye, imwe y'imituku, indi y'ubururu, imbere ya bo hasutamye umugore wambaye ipantaro n'ishati y'umweru.

Ibyatsi bimera mu ishyamba, bimwe bakunda kubihamura byitwa inyabarasanya. Abahamuzi babivurisha indwara zazindi zimeze nk’aho ari amahumane.

Abagabo babiri bari gutera umuti mu myaka yabo, kuko udateye umuti mu myaka ntabwo yakwera. Imyaka isigaye igira ibyonnyi byinshi.

Abantu bari mu murima w' ibigori bari kubyitaho, bari kubireba uko bimeze, bambaye imyenda isa, bambaye n' ingofero mu mutwe z' ubururu na mashati y' ubururu.

Ihene nziza cyane ifite amabara y'umweru n'umukara ndetse n'umuhondo udahiye ifite amatwi abangaraye, ifite n'icebe rinini isa nk’aho ikamwa.

Umugore wishimye ari gukura karoti, yambaye ishati y'umutuku n'igitambaro mu mutwe cy'umukara. Arishimye cyane kubera ko umusaruro we ari mwiza.

Umugore wambaye iribaya ry’igitenge n’igishura cy’icyatsi, yiteze igitambaro kigiye kuba iroza. Afashe umugozi mu ntoki uri kuvomerera imyaka.

Ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye harimo amacunga, harimo marakuja, harimo indimu, intoryi n'inyanya, ibintu byose by'imbuto barabikunda kuko biraryoha.

Imiteja ni nziza cyane bayisoroma itari yera cyane kugira idakururumba, imiteja abantu barayikunda kuko iri mu bwoko bw'imboga kandi imboga ni ikiribwa kirinda umubiri indwara.

Amateke araryoha agira ubwoko bwinshi. Habaho ay'intaguzwa, n'andi yitwa inyoberabaswa, n'andi yitwa bwayisi. Amateke barayakunda cyane kuko aryoha.

Isombe ni imboga zituruka ku myumbati, barya amababi, bakayajyana ku mashini bakabetesha, babanza bazitutura, bakabona ubuzijyana.

Abagore bicaye hariho n'uwunamye afite umufuka, imbere yabo hariho indobo y'umutuku n'ibigori, bibarambitse imbere by'amabara atandukanye, iby'umweru n'ibindi by'umuhondo.

Umugore wambaye ikanzu igiye gusa n'gitaka. Umugore witeze igitambaro, ahagaze mu murima w'ibigori, avunnyemo ikigori kimwe aragitonora.

Amacunga ni imbuto nziza cyane, abantu benshi bakunda kuzirya. Amacunga iyo yeze aba asa n'umuhondo.

Ibijumba ni byiza cyane, bigira amoko menshi. Hari iby'umutuku n'ibisa n'umweru. Ibijumba biraryoha bikunzwe n'abantu batari bakeya, kuko ni byo nkingi y'Igihugu.

Urubuto rweze rusa n'umuhondo bita puwavuro ruraryoha cyane, abantu barazikunda, kuko ziryoshya ibiryo.

Imiteja ni myiza cyane abantu barayikunda. Bayisoroma itari yera neza, kuko imaze kwera cyane ntabwo yashya. Ntago iri mu bwoko bw'imboga kuko imboga zirinda indwara mu mubiri.

Imyembe ni imbuto zikunzwe cyane ziraryoha, iyo zihiye ziba zisa n'umuhodo izifite ikibuto gikomeye baragita.

Imyumbati iba mu bwoko bw’ibijumba, ivamo imitsima. Izindi bakaziteka ku bishyimbo bakazigerekaho bakazirya, ziraryoha.

Umurima w'ibigori bitari byera neza. Ibigori bifite umusaruro mwiza, bigaragara ko babihinze kijyambere bakabifumbira neza.

Amashaza ni igihingwa gifite intungamubiri nyinshi. Iyo yeze bayarya urunyogwe cyangwa se bakayarya yumye.

Abantu batatu bari mu gikorwa cyo gusarura umuceri. Umuceri ni igihingwa cyiza cyane kuko umuceri barawukunda cyane kandi uhingwa ahantu ho mu gishanga.

Umurima weze imboga, urimo abantu bari gusarura. Imyaka iyo yeze, barayisarura bakajya kuyirya.

Itunda risatuyemo ibibisate bibiri. Itunda rigira umutobe mwiza cyane, aho abantu bakora imitobe y'amatunda.

Amasaka ni igihingwa cyo mu binyamisogwe . Amasaka ni meza cyane. Igikoma cyayo gifite intungamubiri nyinshi cyane. Amasaka, avamo n'umusururu.

Ipera riraryoha abana bararikunda. Ipera risatuye ritukuye mu nda, bisa n'aho igisate kimwe ikindi nta cyo.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye, harimo intoryi n'inyanya zitanditse mu isoko, intoryi n'inyanya biraryoha abantu benshi barabikunda, kuko bigira intungamubiri nyinshi.

Umugore uhagaze, yambaye ishati y'igitenge, yiteze n'igitambaro cy'ubururu. Impande ze hahagaze abagabo benshi bari kumureba, asa naho afite icyuma mu ntoki ari kukireberamo.

Abantu babiri umugore n'umugabo. Umugabo wambaye ishati yubururu n'ipantaro y'umukara n'umugore wambaye igitenge cyumutuku gifite amabara y'umweru, n'ishati y'umutuku bateruye ishu bisa naho ari ku isoko bari kuyagura

Ibirayi byuzuye mu mufuka bisa n'aho bari kubigurisha. Ibirayi bigira intungamubiri nyinshi, abantu barabikunda cyane kuko biraryoha.

Umugore n'umugabo bafashe imyumbati ibiri mu ntoki, bambaye imyenda y'umukara, umugore yambaye umupira w'umukara, umugabo yambaye ikoti ry'umukara, mu nda harimo agashati k'umweru.

Inkoko ni nziza cyane, barazikunda zigira inyama ziryoshye. Izindi zikagira amagi, amagi barayakunda cyane kuko uriye amagi agira ubuzima bwiza.

Amapera n'imbuto nziza, zikundwa n'abantu benshi cyane cyane abana, amapera afashe ku mashami y'ayo, amwe atukuye andi ataratukura.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye cyane cyane imboga, harimo intoryi, inyanya, puwavuro ndetse na za karoti n'ibindi, ziraryoha cyane, abantu barazikunda.

Abantu batatu b'abagabo bahagaze imbere y'ibase, irimo imyumbati yuzuye neza. Basa naho bari kuyireba ukuntu ari myiza.

Abaturage bahagaze mu murima w'ibigori. Ibigori ni Igihingwa gikunzwe n'abatari bakeya, bakunda kubihinga kuko bifite akamaro.

Umugabo wicaye mu murima w'urusenda, asa naho ari kurukorera neza, kugira ngo ruzatange umusaruro ufatika. Umugabo wambaye ibisurubeti by'ubururu n'ingofero y'ubururu.

Ubuhinzi ni bwiza cyane aho abaturage bose batunzwe n'umwuga w'ubuhinzi, bafite igitebo basa naho cyari kirimo ifumbire yo gufumbiza imyaka.

Umugabo wambaye ijakete y'umweru, amaboko ariho ibara ry' umutuku n'ubururu. Ari kureba imyaka ye isa naho yeze, afite ibyishimo kubera ko ari byiza.

Ikigori iyo cyeze baragica, bakagitonora kugira ngo bacyotse, cyangwa bakacyanika bakazagihunguramo impungure zo kubeteshamo igikoma, cyangwa bakakigiramo agahunga.

Igitoki kinini cyane bagishyize ku, gisa naho kiri ku munzani. Umugabo wambaye iniforume y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi asa naho ari umudaso agihagaze impande.

ubuhinzi bw'imbuto harimo amatunda, busakaye hose. Aho basaruye amatunda atukuye neza, bakaba bayarunze hamwe.

Inyanya nziza cyane, zisa n'aho ziri mu mifuka, zuzuyemo, umugabo ari kuzipakiramo. Inyanya ni ikiribwa cyiza cyane, ibiryo birimo inyanya biraryoha cyane. Inyanya ni igihingwa gikunzwe n'abantu batari bakeya.

Umugabo uhagaze afite igitebo kirimo inyanya, yambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko izi nyanya zeze cyane bishimishije.

Ibirayi ni byiza cyane abantu barabikunda. Mu ifunguro rya buri munsi, abantu bakunze kwifashisha ibirayi kuko ari byo bikungahaye inaha ngaha mu cyaro no mu mujyi.

Ibishyimbo iyo byeze babitangira kubisoroma bitari byuma, bakabirya intonore. Byamara kuma bakabihura, bakabihunika, ibindi bakabirya.

Umurima urimo ibireti harimo abagore bari gusarura, barapfukamye bambaye imyenda y'ubururu umwe yambaye n'igitambaro mu mutwe cy'umukara.

Umusaruro w'ibirayi ushimishije. Imifuka myinshi yuzuyemo ibirayi byiza cyane. Ibirayi biryoha kurusha ibindi biryo, abantu barabikunda cyane kuko biryoha.

Umurima uteyemo icyayi. Icyayi ni igihingwa cyiza cyane abantu bose baragikunda kuko iyo umuntu yakinyoye amererwa neza.

Ibitunguru bisaruye by'ibijumba, iyo babijyanye ku isoko babipima ku munzani. Ariko iyo bigifite amababi babipfundikamo imifungo.

Agakoko kuzuyemo ibishyimbo. Ibishyimbo ni byiza cyane barabikunda kuko biraryoha, bikagira n' intungamubiri nyinshi.

Umugore uri gutunganya igihingwa cy'umuceri. Usa n'aho bamaze kuwuhura bari gupakira imifuka, kugira ngo bawugurishe amafaranga.

Umuceri usutse ahantu umaze guhurwa umeze nkaho weze cyane, kuko ni mwinshi. Umuceri ni mwiza cyane uraryoha.

Umugore uri gusuka ibishyimbo. ibishyimbo ni byiza cyane. Abantu barabikunda kuko ibintu byose abantu bariye babivangamo, kuko bigiraga intungamubiri nyinshi.

Umugore wicaye hasi impande y'ibishyimbo bisutse ku kirago , afite n'utubase asa naho agiye kubirenga m'utubase, ibishyimbo ni byiza cyane abantu barabikunda.

Ubucuruzi bw'imyaka itandukanye. Amasaka, ingano, soya n'ibindi bitandukanye. Iri mu mifuka imwe y'umweru indi y'umuhondo n'iyindi y'icyatsi.

Ibishyimbo , amasaka n'ibigori , biba mu isoko, kugira ngo abantu baze babigure . Harimo amasahani n'amabakure, byo kurengesha, kugira ngo abantu bamenye uko bingana .

Imbuto zifite imizi zisa n'aho aho bazinajije, kugira ngo bazitere zmeze. Zigaragara ko zifite imizi, barahita bazitera.

Umusaruro w'ibigori. Iyo ibigori byeze barabisarura, bakabyanika, bakabihunguramo impeke zo kubeteshamo ifu. Ifu bakayinywamo ibikoma, n'imitsima.

Soya ni nziza cyane. Iyo zeze, barazisarura, bakazihura, bamara kuzihura, bakazanika, bakazikoramo ibintu bitandukanye; ari ifu, ari amavuta n'ibindi bitandukanye.

Imiteja ni myiza. Hari ibishyimbo bikunze kwera bakabirya imiteja gusa, ntibareke ngo byume. Imiteja iri mu bwoko bw'imboga. Imboga zirinda indwara.

Amasaka iyo yeze barayasarura, umugabo wambaye ingofero y'umutuku n'agapira k'umweru ahagaze mu masaka ari kuyasarura. Amasaka ni meza cyane barayakunda.

Imiteja basaruye yuzuye mu bitebo. Imiteja bayisarura itari yaba intonore kugira ngo idakururumba. Imiteja iri mu bwoko bw'imboga zirinda indwara.

Iyo imyaka yeze barayigosora. Umugore afashe intara arikugosora imyaka kugira ngo abone uko ayihunika cyangwa ayijyane ku isoko ayigurishe amafaranga.

Amasaka ni meza cyane iyo yeze barayinika, bagashyira mu mazi, bakavangamo n'itazi, hakavamo amasaka ari yo bita amamera bakayanika bagakoramo umusururu.

Ibishyimbo binini byitwa nyirakizungu. Bifite amabara y'ubururu n'iroza n'umweru bivanze. Ibishyimbo bya nyirakizungu biraryoha.

Amasaka barayakunda, kuko agira intungamubiri nyinshi. Niyo mpamvu abantu bakunda kuyahinga, kuko agira n'amafaranga menshi, agatunga imiryango.

Kugira ngo imbuto ziboneke , hari izo babanza kwinaza mu butaka . Iyo zimaze kumera, barazirandura bakongera bakajya kuzitera mu ntabire , zamara gukura, bakazibagara zikera.

Ibihwagari ni byiza, kuko ibihwagari na byo babikamuramo amavuta, iyo byeze barabisarura bakabyanika, bakabikuramo ifu yo kurya mu biryo.

Ibihwagari ni byiza cyane, bivamo amavuta yo kurya. Ibihwagari barabikaranga bakabikoramo n'ifu bakayishyira mu biryo.

Umusaruro w'ibigori wanitse bamaze kubisarura. Kuko iyo batabyanitse birafurikanka bikaba byasharira.

Depo y'imyaka iri mu mufuka myinshi igerekeranyije. Ibihingwa byinshi bikunze guhunikwa mu mifuka kuko imifuka itabyangiza.

Iyo bahinze Imyaka barayitera mu gitaka ikamera. Iyo kiri kumera kiba gifite utubabi dutoya. Iki gishyimbo gifite amababi ane, gitangiye kuzana irindi babi hagati.

Ibishyimbo bigira amoko atandukanye, bimwe by'umukara ibindi by'umweru, bigira vitamini nyinshi, abantu barabikunda.

Iyo abantu bejeje imyaka barayihura, bakayirenga mu bintu kugira ngo bamenye ingano yabyo. Abantu bicaye bari kurenga ibishyimbo.

Ibishyimbo, n'ibigori, amashaza, n'amasaka biraryoha. Aho abantu bakunda kubihinga.

Isambaza zirohorwa mu mazi, iyo bamaze kuzirohora barazanika zikaraba, zamara kuraba bakazikarira mu mavuta, maze bakazirya.

Ubunyobwa bukuye butaratonorwaho ibishishwa; ubunyobwa bukunzwe n'abantu benshi nanjye ndabukunda.

Umuceri uhinze mu gishanga utari wera, usa n'aho uri kuyanga. Umuceri ni mwiza cyane abantu barawukunda kuko ni ikiribwa gitunze imiryango myinshi.

Umuntu uhagaze mu murima wa masaka atangiye gutukura ari kuyasarura ngo ayabyazemo umusaruro. Amasaka iyo yeze barayasarura, bakayahura, bakayanika, bakayabeteshamo ifu.

Inzuzi ni nziza cyane, ziri ku isaniya, bagiye kuzikaranga, ngo bazisekure bazishyire mu biryo, ibiryo zirimo biraryoha.

Ubuhinzi bw'umukeri butunze abantu benshi kuko abantu barawukunda, gutunze abanyarwanda n'abanyamahanga benshi.

Ikigega gifite idirisha banyuzamo imyaka, gisakaje ibyatsi, gifite n'agasongero hejuru. Iyo imyaka iri mu kigega iba ifite umutekano mwiza.

Imyaka yanitse ahantu habugenewe hubakiwe. Kugira ngo imyaka igire umutekano, bayihunika ahantu heza kugira ngo itangirika.

Imiteja iri mu bwoko bw'imboga kuko iyo yeze bayisoroma itaraba intonore bakayiteka nk'imboga kuko igira vitaminini nyinshi.

Amasaka iyo yeze barayasarura, umuntu wambaye imyenda y'ubururu, wunamye arikugesa amasaka, arikuyagesa yarambitse hasi.

Soya ni igihingwa cyiza cyane, gikunze kugira vitaminini nyinshi, kandi zivamo amavuta, hakavamo n'ifu bateka mu biryo bakayishyira no mu ifu y'igikoma.

Ibigori iyo byeze barabisarura, bakabihungura, bakabigosora. Umugore arikogosora ibigori yambaye igitenge cy'umuhondo n'ishati y'ubururu.

Imiteja ni myiza cyane. Iri mu bwoko bw'imboga. Imboga zirinda indwara mu mubiri. Imiteja bayirya itari yaba intonore kuko baretse ikaba intonore yakururumba ntishye.

Ikawa ni igihingwa gikungahaje abahinzi bazo. Umuntu ari kuyungura ikawa, amaze kuzitokonzora, kugira ngo azanike.

umurima urimo amasaka ageze igihe cyo gusarurwa. Amasaka ni meza, agira umusaruro mwinshi, kandi akagira ubuzima bwiza mu bantu, ku intungamubiri zo mu gikoma ni nyinshi.

Umurima uteyemo amasaka. Amasaka ni igihingwa cyiza, amasaka agira intungamubiri nyinshi mu bijyanye no kunywa igikoma.

Ibishyimbo biri ku gakoko bifite amabara atandukanye, harimo iby'umweru, ibyumutuku n'iby'umuhondo, ibishyimbo barabikunda cyane, biraryohaha.

Umugore witeze igitambaro cy'umukara, ari gusarura ubunyobwa. Ubunyobwa bugira vitamini nziza, kandi buraryoha.

Ibigori by'amabara byahingwaga kera batari bazana imbuto za kizambere, bifite amabara atandukanye, harimo imyeru, imituku, n'ubururu, n'imihondo.

Isoko ririmo ibintu byinshi by'ibiribwa cyane cyane ibishyimbo, ibigori, n'amashaza. Abantu benshi barabikunda bakunda kubihaha.

Umurima uhinzemo imboga, harimo igitebo gitereretsemo gisa naho bagisoromeyemo imboga, imboga ni nziza cyane abantu barazikunda.

Abahinzi iyo bejeje barasarura, maze bakabipakira mu mifuka. Aho abantu benshi basa n'aho bari gupakira imifuka, barimo abagore n'abagabo.

Igihingwa cy'ingano ni cyiza cyane. Abantu benshi bakunda kugihinga, gikunda guhingwa mu misozi miremire. Ingano zigira vitamini nyinshi ziraryoha.

Ibigori iyo byeze barabitonora, bakabipfundika, bakabimanika amahundo, kugira ngo bitanundwa. Ibi...

Ingano ni nziza cyane barazikunda, iyo zeze barazigesa, bakazihura, bakazanika, zamara kuma bakazibeteshamo ifu, bagakoramo imitsima n'imigati.

Imifuka yuzuyemo ibirayi bisa naho byeze cyane, ibirayi ni igihingwa kera vuba, kerera amezi make ,atarenze atatu.

Amasaka ni igihingwa cyiza, barayakunda kubera yuko agira igikoma cyiza. Bayakuramo n'umusururu.

Umurima urimo ibishyimbo bigufiya . Ibishyimbo bigufiya byerera amezi makeya , atarenze amezi abiri.

Amasaka ni meza cyane iyo yeze barayahura, bakayanika, bakayajyana kuyabetesha akavamo igikoma cyangwa bakayinika akakavamo umusururu.

Ibishyimbo iyo byeze barabisarura, bakabihura, bakabihurisha ibibando, umusaruro uvuyemo bakawuhunika ahantu habugenewe.

Imbuto zimeze zisa naho bazinaje, kugira ngo bazitere zimeze, izi mbuto zatangiye kuzana imizi.

Ubunyobwa buteye ku murongo, abantu benshi barabukunda. Ubunyo buvamo amavuta cyangwa bakabusekura, bakabushyira mu biryo, mu biryo, bikamera neza.

Ubunyobwa ni bwiza cyane, abantu barabukunda, kuko buraryoha cyane. Ubunyobwa iyo bweze barabutonora bakabwaika bakabusekura bukavamo ifu, ubundi bakabukamuramo amavuta.

Ubunyobwa barabukunda kuko baraburya. Buryoha mu biryo, bukavamo amavuta y'ubuto kandi ubunyebwa bukunze kwera ahantu henshi.

Umutiba wifashishwaga bari guhunikamo imyaka itandukanye, bahunikamo ibirayi, ibishyimbo, amasaka, n'ingano, cyane cyane mu karere ko mu Kinigi habonekamo ibirayi.

Ibirayi n'igihingwa cyera cyane, aho ikirayi kimwe gishobora kweraho ibiro bibiri, umurima wose ukavamo amatoni na matoni y'ibirayi, ibirayi birunze hamwe bisa naho byeze cyane.

Amasaka ari mu murima atariyera neza ategereje kugira ngo bayasarure. Amasaka ni meza cyane agira, igikoma gifite intungamubiri nyinshi.

Indabyo ni nziza cyane zifite amabara y'iroza, bakunze kuzitaka ahantu harabaho ikirori cyangwa ahantu haraba umunsi mukuru.

Ibigori bigiye kwera, aho ibigori iyo byeze babisarura, bakabishyira mu buhunikiro bwabugenewe.

Ibyibo bibiri byuzuyemo ibishyimbo, bimwe bisa n'umutuku, ibindi bisa n'umukara, ibishyimbo ni byiza cyane, bigira intungamubiri byubaka umubiri.

Umusaruro w'ibigori iyo bimaze kwera barabisarura bakabyanika bikuma neza bakabihungura bakazabijyana kubisyamo ifu, ibindi bakongera bakabihinga.

Umugabo uhagaze mu myaka ye yambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'umutuku karimo amabara y'umweru n'umukara, yambaye agapfukama asa naho ari kureba ko imyaka ye yeze.

Amajeri ndayakunda kuko aryoha. Amajeri ahingwa mu misozi miremire, aho iyo yeze barayasoroma bakayarya intonore cyangwa bakayarya yumye.

Inyubako nziza ifite umuryango ukinguye, ifite impande amakaro, kandi hejuru yaho hariho irangi ry'ubururu n'umutuku.

Ihene iryamye, abagabo babiri umwe arayifashe, undi ari kuyivura, ifite amabara y'umweru n'umukara. Umugabo umwe yambaye igisurubete cy'ubururu, asa n'aho ari veterineri.

Inka ziri kurisha mu kinani, zifite amabara atandukanye iz'imyeru, iz'ibihogo n'iz'umukara, ni nyinshi cyane.

Inka nziza cyane isa y'ibihogo. Ifite icebe rinini, imeze nk'aho iri konsa ikaba iri gukamwa.

Inka zisa naho ziri mu biraro, abantu bari kuzireba. Umwe yari ahagaze hagati mu nka, undi ari kumubuza ngo avemo.

Ingurube nziza cyane iri kureba isa naho iri gutontoma; ingurube igira akabenzi keza cyane, abantu baragakunda, nanjye ndagakunda kuko karabyoha.

Ingurube ni igitungo cyiza cyane kibyara abana benshi icyarimwe. Ibyana byonka buri cyana kigira ibere ryacyo. Ingurube zikunze kororoka kubera yuko zibyara kabiri mu mwaka.

Ingurube igitugwa gikunze kororoka cyane, aho ingurube ibyara ibyana byinshi icyarimwe, bikonkera hamwe, buri cyana cyose kiba gifite ibere ryacyo.

Abantu bicaye, basa n'aho bari kuvura inka. Bameze nk'abaveterineri, bambaye udupfukamunwa, bambaye amataburiya y'ubururu.

Inka nziza ifite ibara ry'umukara n'iry'umweru, bayita ikibamba. Inka y'ikibamba igira amata menshi cyane.

Umugabo uhagaze impande y'ingurube, wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umutuku, ingurube asa n'aho aziragiye.

Urukwavu ni agatungo keza gakunze kororwa n'abana, ndetse n'abantu bakuru. Kuko ntabwo karushya kukorora, gatungwa n'ibyatsi kandi ntabwo karushya, kukubakira ibiraro.

Amagi ni meza cyane, umuntu wese uriye amagi agira ubuzima bwiza, cyane cyane abana batoya.

Ingurube ni itungo ryiza ryororokana cyane. Iyo ribyaye ribyarira rimwe ibyana byinshi, kandi rikabyara mu mwaka kabiri.

Ingurube ni nziza cyane, yororoka vuba, kuko ibyara mu mwaka kabiri, kandi ikabyarira rimwe, ibyana byinshi.

Inkoko zikundwa n'abantu benshi, inkoko zitera amagi izindi zikaribwa inyama, inkoko ndazikunda zigira inyungu.

Inkoko ni nziza cyane, zigiraga inyama ziryoha, zigatera n'amagi, amagi agira intungamubiri nyinshi cyane, ku bana no ku bakuru.

Inka iryamye hasi isa naho irwaye, abaganga bari kuyitera imiti, inka zikunze kurwara nazo.

Abantu bakunda inka cyane, umugabo uri kugaburira inka akoresheje igitiyo, yambaye ikoboyi n'ishati ya Karokaro n'ingofero y'umweru.

Umugore uri kugenda mu muhanda ari gukurura amatungo asa n'aho ari intama. Agiye kuzizirika mu rwuri kugira ngo zirishe.

Umuntu uri kumwe n'ingurube y'igipfizi. Asa n'aho ari kuyoza kugira ngo ise neza. Ingurube z'ibipfizi zikura vuba, zigira igikuriro kuruta amashashi.

Abantu bahagaze ari benshi bari kureba umugabo ucigatiye ihene, yambaye ingofero igiye kuba umweru, inyuma ye hariho undi wambaye ingofero y'umutuku.

Umugabo ufite inka, wambaye ishati y'umweru n'ingofero y'ubururu. Ari kuyereka veterineri, kugirango ayivure. Inka zikunze kugira ibyorezo byinshi, akunze no kuzikingira.

Ingurube nziza cyane, zirabyibushye, ziri kurira mu kintu kimwe zose. Ingurube ni itungo ryiza, rigira inyama ziryoshye, bazitekamo akabenzi.

Abaveterineri babiri bambaye mataburiya y'umweru, bari kuvura inka ,bari kuyitamika ikimini.

Inka nziza iraryamye mu kiraro cyayo, inka itagira amahembe. Inka ni nziza, isa n'aho bayoroye kijymbere.

Abaveterineri bakunda gupima inyama iyo bari kuzipima bafata indiga bagakeba, bakareba mu nda ko zifitemo uburwayi basanga zararwaye bakazita.

Inkoko ni nziza cyane kuko zitera amagi. Izindi zikagira inyama ziryoha cyane. Bakunda kuzirira mu ma resitora, kandi ziraryoha.

Inka nziza cyane ifite amahembe maremare, isa n'ibihogo. Ihagaze mu rwuri isa n'aho igiye kurisha.

Inka nyinshi zororewe mu biraro harimo n'abashumba bazo, umwe arimo ari kumwe n'inka mu nda, undi ari kumwuriza hejuru, kugira ngo azivemo zitamwica.

Ingurube ni itungo ryiza cyane, ryororoka cyane kuko ribyara mu mwaka kabiri kandi rikabyarira rimwe ibyana byinshi cyane.

Inka iri mu kiraro ifite amahembe manini y'umweru. Inka isa n'aho ari ikimasa.

Ubworozi bw’inka buteye imbere. Inka y’inkungu, y’ikibamba, ikibamba kigira amabara y’umweru n’umukara. Ni inka nziza cyane, igira umukamo ushimishije.

Imbwa ni gisimba gikunda kurinda. Imbwa zisa n' imitamu zisutamye imbere yazo, hariho abantu bamwe bambaye imyenda y' umweru, hari n' abambaye iz' umutuku.

Amagi ni meza cyane kuko akunzwe n'abantu batari bakeya, cyane cyane abana kuko umwana uyariye akura neza.

Igikoresho cy'ipombo gikunze kwifashishwa mu buhinzi, umugabo wambaye isarubete y'icyatsi, ahetse ipombo irimo umuti agiye gutera mu myaka.

Inka nziza ihagaze imbere yayo hariho ibyatsi bisa naho ari umucaca, inyuma yayo hariho iyindi nka y'umukara.

Umugore uri kugaburira inka mu gisanduku cyabugenewe. Inka zigaburiwe neza zitanga umusaruro ufatika cyane iyo ziri gukamwa, zikagira amata menshi.

Inka nziza ihagaze mu rupangu. Umugore asa n'aho ari umuveterineri ari kuyitera intanga. Yambaye itaburiya y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi.

Abaganga badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho abaganga bahagaze, bari gukora umuti, bambaye amataburiya y'ubururu, basa n'aho bagiye kuvura.

Muri busheri habamo inyama zitandukanye, hamanitsemo inyama z'ingurube, ingurube ziraryoha cyane abantu barazikunda cyane ari benshi.

Ingurube ni nziza cyane ziraryoha , zigira inyama ziryoshye kandi bazikoramo akabenzi , iyo zibyaye zibyarira rimwe ibyana byinshi , zikororoka vuba.

Ibyana by'ingurube bitatu, bisa n'aho biri hanze y'ikiraro. Izi ngurube ziri kumwe ari eshatu, zimwe ziraryamye iyindi irahagaze.

Inka nziza cyane zimwe zifite amahembe izindi nta mahembe zifite, zifite amabara atandukanye harimo iz'imyeru n'izindi z'ibihogo.

Ingurube eshatu ziri mu kiraro kimwe. Aho ingurube zimeze nk'aho ari ibyana bimaze gucuka.

Umugabo wambaye itaburiya ry'ubururu, afashe urushinge asa n'aho ari veterineri ari gukingira inka. Inka kugira ngo zigire ubuzima bwiza barazikingira.

Inkoko z'amasake n'izindi z'inkokokazi , zihagaze hamwe ziri gukokoza izindi ziri kubika.

Inkwavu ni amatungo magufiya, akunzwe n'abantu benshi, cyane cyane abana. Abana bakunda korora inkwavu, kuko bitagoranye kuzorora.

Ikinyoni gifite umunwa hejuru w'umutuku hasi ugusa n'umukara, n'ijisho ry'umukara. Gifite amababa y'ubururu havanzemo umukara.

Inyoni nziza cyane isa n'umuhondo uvanzemo umukara, inzara zayo zigiye gusa n'umutuku, ifite amaso atukura n'umunwa w'umukara.

Inyoni nziza cyane ifite amabara atandukanye. Amwe y'ubururu andi y'ikinyoronyombya. Ifite umunwa usongoye.

Ibisiga biri kuguruka mu kirere. Bisa n'aho bigiye kugwa ahantu hamwe, biri kuguruka mu kirere gikeye, gisa neza.

Inkende iri mu mabara atandukanye. Umuhondo n'umukara . Inkende ikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize. Iri kugenda ku mugano.

Ikinyoni cyiza cyane gihagaze ku kintu kimeze nk' igitebo gifite amabara umukara n'umweru. Ikinyoni gifite amaso meza, mu maso hacyo ni ikibundi.

Inyoni ziri amoko menshi atandukanye. Inyoni ihagaze yonyine ifite amabara y'ikivurivundi, ifite umutwe wibunduguje.

Ikinyoni gihagaze, kiri kureba hejuru, gifite ibara mu mutwe ry'umutuku, n'amababa afite amabara y'umuhondo, n'umukara gifite mu ijosi ibara ry'umweru. Inyoni nziza cyane yo mu bwoko bw'inuma.

Inzovu iri mu ishyamba isa n'igitaka, inzovu ni inyamaswa zikunze gukurura ba mukerarugendo, batuzaniye amadovize.

Inyamaswa iri mu ishyamba nziza cyane, isa n'aho ikurura ba mukerarugendo, iyi nyamaswa ifite amabara meza cyane y'umweru n'umukara, inyamaswa ni nziza cyane.

Ikiyongoyongo cy'umukara cyane gifite akabara kamwe ku ibaba k'icyatsi, gifite urunwa rurerure, kiri mu ishyamba. Abantu bakunda kukireba cyane kuko gikunda kwibera mu bishanga.

Ikiyongoyongo kigira ijosi rirerire. Gikunda kuba ahantu ho mu gishanga kiri gushakamo imisundwe n'iminyorogoto yo kurya.

Akanyoni keza cyane kabereye amaso, gafite amabara menshi y'ubururu, icyatsi , n'agiye kuba umuhondo. Amababa n'umurizo w'umukara ...............

Ikinyoni kimeze nka ndendo gifite amababa asandaguritse, gifite umunwa udasongoye, gifite amaso y'umukara.

Ikiyongoyongo gihagaze mu ishyamba, gifite amaguru maremare, n'umunwa usongoye, abantu benshi bakunda kukireba, gikunda ahantu hari amazi nko mu bishanga, kiri gushakamo udusimba two kurya.

Ingagi ni nziza cyane, aho ingagi zikurura ba Mukerarugendo bakatuzanira amadovize, ingagi zikurura abantu benshi.

Injangwe ihagaze ku itabi ry'giti, isa n'umukara, iri kureba, isa n'aho itegereje ikintu irafata ngo ikirye. Injangwe ni agasimba gakunda kurya imbeba.

Inyoni ni nziza cyane, ihagaze ku giti. Ifite amabara abiri iry'ubururu n'iry'umutuku. Ihagaze iri kureba aho izindi ziri.

Inkoko ni nziza cyane. Abantu barazikunda kuko zigira inyama ziryoshye. Inkoko zihagaze ziri kureba nkaho zifite ikintu kizikanze.

Umusambi ukunda mu gishanga. Ugira isunzu ku mutwe, ukagira n'amabara ku mababa y'umweruru n'umukara, mu ijosi hagasa n'kinyurunyumbya.

Inyoni ziri amoko menshi cyane. Inyoni nziza cyane ihagaze ku giti, ifite amabara y'umuhondo, ubururu n'umukara.

Inzoka ni igikoko gitera ubwoba cyane; inzoka ziraryana iyo ikurumye ntago ukirara.

Ikiyongoyongo ni inyoni yo mu bwoko bw'ibisiga, igira ikinwa gisongoye n'ijosi rirerire. Ikunda guhagarara hafi y'uruzi cyangwa ikiyaga kugira ngo irye amahera cyangwa amafi mato.

Igikona gihagaze ku ishami ry'igiti gisa neza gifite ibara ry'umukara n'umweru, kigira umunwa w'umukara cyane.

Inka iryamye, iri kumwe n'inkoko z'umweru, ifite igihanga cyiza kitagira amahembe, ifite amaso manini, inkoko ziri kumwe na yo zisa n'umweru.

Ingagi ni nziza cyane ziba mu mashyamba yo mu birunga , abakerarugendo baza kuzisura bakatuzanira amadovizi.

Inyoni nziza cyne igiye kwitwara nk'ikirogorya, ifite ibara ry'umuhondo mu nda, irasamye, isa n'aho iri gusakuza cyanga se hari ikintu igiye gufata, ngo ikirye.

Inyoni ziri amoko menshi, hariho n'izimeze nk'ibisiga; inyoni yitwa nyiramwanane igira ikinywa kirekire cyane.

Inyoni zihagaze zifite amajosi maremare afite ibara ry'umukara. Igihimba cyazo gifite amabara y'umweru n'umutuku n'umukara uvanzemo umutuku.

Inyoni nziza cyane ifite amabara meza cyane ku mutwe, mu gikanu umuhondo mu nda ni umutuku. Ifite igihanga cy'umukara, umunwa wayo usongoye ugiye gusa n'ubururu.

Akanyamasyo ni agasimba kameze nk'ivatiri, kagiye kumera nk'igikeri. Akanyamasyo kagira umugongo umeze nk'urutare, n'uwakubitaho ikintu ntabwo kameneka.

Inyoni yo mu bwoko bw'igisiga kiri kuguruka mu kirere. Mu kirere gikeye, kiri kuguruka gitanze amababa, kigiye kureba aho kigwa aho kiri kureba.

Inyoni isa n'igitaka, ifite amaso atukura n'umunwa usongoye, inyoni ihagaze mu twatsi twinshi, isa naho iri kona.

Ihene imeze nk'aho ifite amezi. Ihene yo mu bwoko bugira amahembe. Iyi hene , ishobora kuba ikamwa.

Imparage ni igisimba kimeze nk' ihene, kigira amabara y'ikinyoronyombya, umweru, n'umukara. Ikunze kuba mu ishyamba ry'ibiti byinshi.

Ikinyoni gifite amabara y'umwe n'umukara, gihagaze gifite amaguru asa n'umuhondo, gifite n'ibyisho binini, umutwe wacyo umeze nkikibunduguru.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi z'amoko yose, abanyamahanga barazikunda baza baje kuzireba, bakatuzanira amadovize.

Ikinyoni gifite umutwe ufite amabara y’umweru n’umutuku. Umunwa ni umutuku, gifite n’isunzu ry’umutuku. Ikinyoni ni cyiza cyane.

Inzoka ni agakoko karyana, abantu baragatinya, kuko iyo umuntu ayibonye aharanira kuyica, iyo umuntu atayishe agira ubwoba ngo iramusanga aho ari imurye.

Inyoni nziza cyane zifite ibara ry'umukara, no mu izosi, zisa n'umweru. Zihagaze ku itabi ry'igiti, inyoni ni nziza, abantu bakunda kuzireba, kuko zirashimisha cyane.

Ikinyoni kimeze nk'ikinuma, gifite amabara y'ikinyoronyombya, gifite umunwa usongoye, amaso yacyo ni umukara, gifite n'amaguru y'imikara.

Inyoni ifite ibara ry'ubururu ifite n'amaguru afite inzara zituku; inyoni yo mu bwoko bumeze nk'inuma ihagaze yonyine isa naho yicecekeye itari kuvuka.

Igisiga ni mu bwoko bw'inyoni ziguruka, igisiga gifite ibara ry'umweru rivanzemo umukara, igisiga gikunze kurya ibintu byapfuye kikabigurukana, cyangwa se kigafata inkoko kikajya kuzirya.

Iyi nyoni ibundamye, isa naho ari icyana cy'inyoni. Inyoni isa naho ishaka gusinzira.

Isha ni agasimba kazi kwiruka cyane. Kameze nk'ihene, gafite amabara y'umweru ku nda no ku maguru mu mugongo ni ibara rigiye gusa n'igitaka.

Inyoni ihagaze ku giti. Ifite amabara y'umuhondo, umweru, havanzemo n'icyatsi. inyoni bisa n'aho isinziriye.